Ifumbire mvaruganda n'imborera biri mu bintu bisigaye byongera umusaruro, kuko abahinzi bavuga ko basigaye babona umusaruro mwinshi uturutse ku ifumbire bakoresha mu buhinzi bwabo.

Abahinzi barashima Leta, y'u Rwanda. Ko yabatekerejeho, ikabegereza imiti, bakoresha. Kandi bavuga ko bibongerera umusaruro, bakabona amafaranga abatunga, mu buzima bwa buri munsi.

Minisiteri ishinzwe guteza imbere imyororokere, ivuga ko guhinga neza hakoreshejwe ifumbire mvaruganda bituma abahinzi babona umusaruro uhagije, aho bashishikariza buri wese kubikora kandi kinyamwuga.

Abaturarwanda bashima Leta ibitaho, ikabegereza ibikoresho by'isuku kuko ari kimwe mu bituma bagira ubuzima bwiza, bagakomeza kubaho batekanye ubuzima bwabo butari mu kaga.

Ibigo by'abikorera mu Rwanda, uko bigaragara aho ikorera mu biro, usanga ari heza cyane, abahakorera bakaba bashima Leta y'u Rwanda yagiye ishyira imbaraga mu kunoza isuku mu mikorere.

Uko indwara zigenda ziyongera mu gihugu cy'u Rwanda, minisiteri y'ubuzima yagiye yegereza abaturage farumasi, aho kubona imiti ibavura bizajya biba biboroheye bikabafasha kwivura vuba vuba.

Abahinzi n'aborozi baza bagana amaforomasi acuruza imiti, bavuga ko bakirwa neza kandi bagahabwa ibifite ubuziranenge kuko biba bibitswe neza bigatuma n'umusaruro wabo wiyongera kuko babonye ibifite ubuziranenge.

Abaturage bo mu Rwanda bakora ibijyanye n'ubuhinzi bwa karoti, bashima Leta y'u Rwanda ko iba yabatekerejeho ikabegereza imirama bifashisha mu guhinga, bityo rero bikabafasha gutera imbere mu bukungu.

Ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi, kivuga ko cyagiye kigaba amashami hirya no hino mu ntara, arebera hamwe uburyo abahinzi bakoresha ifumbire mvaruganda n'iy'imborera mu kongera umusaruro wabo.

Abahinzi bagiye batandukanye batuye mu duce two mu Rwanda, bavuga ko babona amafaranga yo kurihirira abanyeshuri kandi batigera bahura n'ikibazo k'inzara kuko babona umusaruro uhagije.

Ikigo gishinzwe gutunganya iby'ingufu mu Rwanda, cyagaragaje ko mu duce dutandukanye tw'igihugu, hagiye haboneka ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro, ko bigiye gukomeza guteza imbere igihugu.

Ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti, gishishikariza abanyeshuri bize ibijyanye no kwita ku matungo gushyiramo imbaraga mu miti izajya ikoreshwa mu kuvura amatungo kuko na byo arigenzi.

Abaturarwanda bakomeje gutakamba basaba Leta kubegereza imiti yica udukoko twataka imyaka yabo, kugira ngo babashe gushyira ku isoko umusaruro uhagije, bityo bakabona amafaranga.

Minisiteri y'Ubuzima ikomeje guteza imbere ubuvuzi, aho yegereza za forumasi abarwayi babonaho imiti ku buryo buboroheye bityo ntibakoreshe amafaranga menshi batega mu ngendo bagana ibitaro.

Minisiteri y'Ubuhinzi ishishikariza buri muntu wese ukora umwuga w'ubuhinzi, kwegera veterineri n'abandi bafite imiti yifashishwa mu kwica udukoko twataka imyaka yabo, kugira ngo barebere hamwe uburyo bakongera umusaruro.

Abaturage batuye mu karere ka Musanze na Rurindo, bavuga ko impamvu bahinga ibirayi bakeza, ari uko bakoresha ifumbire y'imborera bakuye muri tubura n'imvaruganda, bakaba bashishikariza buri muturarwanda wese gukoresha ifumbire.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe igenzura ry'ibiribwa n'imiti gishishikariza abanyarwanda kujya bagura imiti cyangwa se ibiribwa ariko bagendeye mu kureba nimba ibyo bintu byujuje ubuziranenge barebe igihe bizarangirira.

Umunyeshuri wo UNILAK yagaragaye ari kwiba imiti ashaka kujya korora inkoko, aho Leta ikomeje gusaba urubyiruko kwitwararika n'ubwo rushaka gutera imbere vuba vuba.

Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko ibihingwa bigiye bitandukanye bigenda bifatwa n'indwara, bityo hagakoreshwa gutera imiti, izatuma ubwo bu bwoko bugenda bukira.

Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu kwegereza abaturarwanda imiti, yagiye ishyira farumasi ahantu hagiye hatandukanye mu turere tw'igihugu hose kugira ngo ifashe abaturage bayo.

Minisiteri y'Ubuzima mu buryo bwo korohereza abanyarwanda ibijyanye n'ubuvuzi, yabubakiye amafarumasi aho buri muturarwanda abonera imiti hafi kandi ku gihe.

Mu gukomeza kurwanya igwingira mu bana bari munsi y'imyaka itanu, Abanyarwanda bishyize hamwe bakora ishyirahamwe ryo guhinga imboga n'imbuto kugira ngo barebe uburyo barwanya iri gwingira.

Uko iminsi igenda iza byagaragaye ko igihingwa cy'ibigori kigiye kuzagira agaciro kari hejuru. Minisiteri y'uburezi n'iy'ubuhinzi ikaba ishishikariza buri muturarwanda wese guhinga iki gihingwa kugira ngo azabashe kwiteza imbere mu minsi izaza.

Ubuhinzi bw'amateke mu byaro, bugenda bugaragara ko bwateye imbere aho buri muturage wese aba ashishikarijwe no guhingwa igihingwa cy'amateke kuko bisigaye bitanga amafaranga menshi mu buhinzi.

Abahinzi bo mu karere k'Iburasirazuba baratakambira igihugu ko cyabatekerezaho, kuko aho bakorera uyu mwuga wabo hagiye hari amabuye menshi ku buryo batabona umusaruro uhagije.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko igenda itera inkunga abaturarwanda batandukanye, kugira ngo ibongerere imbaraga zo gutanga umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi uhagije.

Abaturage bo mu ntara y'Iburasirazuba, Akarere ka Kirehe, barishimira ko igihugu cyagiye gitera imbere kitabibagiwe kugira ngo na bo batere imbere, ubu bakaba bishimye kubera ko babona amafaranga aturutse mu buhinzi bw'imbuto za voka.

Mu Ntara y'Iburasirazuba mu Karere ka Rwamagana, hagaragaye uruza rw'abantu baje guhaha igihingwa cy'ibitoki kuko ngo muri iki gihe ni cyo cyeze cyane, Leta ikaba isaba abaturarwanda kukigura kuri makeya.

Abahinzi bagiye batandukanye mu ntara zose z'igihugu, bavuga ko guhinga inyanya ku buryo bwa kijyambere byongera umusaruro wazo bityo bakabasha kwiteza imbere.

Abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibitoki, barishima kuri uyu munsi wa none kuko umusaruro wagiye wiyongera, aho bakoresheje ifumbire mvaruganda n'iy'imborera, bigatuma bagera ku rwego rushimishije.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, irashishikariza buri muturarwanda wese guhinga igihingwa cy'urutoki kuko bigaragara ko bitanga umusaruro, bigatuma ababikora babona amafaranga abatunga.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ishishikariza abaturarwanda bose bakora umwuga w'ubuhinzi bw'inyanya, kwibuka guteramo imiti yica udukoko kuko ari byo bizatuma babona umusaruro uhagije.

Abahinzi n'aborozi barasaba leta yacu, gukomeza kubashyigikira kugira ngo umusaruro w'ibisheke ukomeze kwiyongera ku isoko ry'u Rwanda ndetse no ku isoko Mpuzamahanga.

Mu karere ka Musanze na Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, abaturage bavuga ko umusaruro w'igihingwa k'ibigori ukomeje kwiyongera bitewe no gukoresha ifumbire mvaruganda n'iy'imborera.

Twasuye ahantu hagiye hatandukanye ariko mu gice cy'iburarasirazuba bw'u Rwanda hagaragaye ubuhinzi bwiganjemo ubw'ibirayi n'ibishyimbo, aho usanga umusaruro wabyo wo wiyongereye ku isoko ryaho.

Mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'Igihugu cy'u Rwanda, abahinzi bavuga ko umusaruro wakomeje kwiyongera kuko ubutaka bwaho burimo amazi ahagije bityo badahinga mu bihembwe.

Mu masoko menshi yo mu Rwanda hatangiye kugaragara iboneka ry'avoka kuko igihe cy'umwero wazo cyageze, abaturarwanda barishimye kuko byabonetse biri kubafasha kwishyura amafaranga.

Umuntu wese ukora umwuga w'ubuhinzi mu Rwanda, bigaragara ko agenda aciriritse aho abandi babona amafaranga menshi ariko we akavuga ko nta kintu uyu mwuga umumarira.

Guhinga ku murongo ni bimwe mu bikomeza gufasha abahinzi kongera umusaruro, kuko bavuga ko baba bakoresheje ifumbire mu guhinga kijyambere, imyaka yabo, bikabongerera umusaruro.

Burya ngo mu gihingwa cy'ingano havamo ibikoresho bitandukanye, harimo ifarini, imigati ndetse n'amandazi n'imbada, ababihinga bavuga ko babona amafaranga menshi avuye muri iki gihingwa.

Abahinzi b'ibigori mu ntara y'Iburasirazuba, barashima Leta y'u Rwanda yabashyiriyeho guhinga kijyambere, bakabona n'ifumbire ku gihe kandi n'igiciro ibigori byereyeho kikaba cyarikubye kabiri.

Abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi bavuga ko amazi akomeje kubatwarira ubutaka, bityo umusaruro wabo ukagenda uba mukeya, bakaba basaba Leta kubatekerezaho ikabaha amafaranga bakwifashisha mu gutega aya mazi.

Minisiteri ishinzwe kurengera ibidukikije rema, ivuga ko kubungabunga amashyamba mu bice bigiye bitandukanye ari byiza, kandi buri muturarwanda wese yakabigizemo uruhare, kuko biteza imbere igihugu binyuze mu bukerarugendo.

Ibihuru n'ibigunda bikunda kugaragara mu bice by'ibihugu by'icyaro, aho usanga mu karere ka Burera buri muturage aho atuye hari ibihuru bimukikije, ari nabyo binatuma barwara indwara zitandukanye.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ikomeje kugenda yegera abaturage bakora umwuga wo guhinga mu Ntara y'Amajyepfo, mu Karere ka Huye, aho igenda ibabaza ibibazo bitandukanye bahura na byo mu buhinzi bwabo, uburyo barebera hamwe uko bateza imbere uyu mwuga.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ikomeje gushishikariza abaturarwanda kugana umwuga w'ubuhinzi, kuko yasanze harimo amafaranga, kandi bikazabafasha kubona ibibatunga no guhaza isoko mpuzamahanga.

Mu gukomeza guhashya icyorezo, minisiteri ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ikomeje gushyira agatege mu kwigisha abanyeshuri biga iby'ubuvuzi bw'amatungo kugira ngo bakomeze gufasha abaturarwanda.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibijyanye n'ibiribwa n'imiti, kigaragaza ko ubuziranenge bwacyo bwagiye bugabanyuka ku isoko ry'u Rwanda, bityo rero gishishikariza Abaturarwanda gushishoza.

Minisiteri y'ubuzima ihora ishishikariza abaturage, cyane cyane urubyiruko kugira isuku, aho yagiye ishyira udukoresho twa puberi ku muhanda, aho buri wese agomba gushyiramo imyanda kugira ngo bitangiriza ikirere.

Uko iminsi igenda iza, icyorezo cyataka amatungo gikomeje kwiyongera, aho Leta y'u Rwanda ishyize imbaraga mu kwegereza abaturage imiti bazifashisha mu kuvura amatungo yabo.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage batuye mu gice cy'amajyaruguru y'u Rwanda kugerageza kureba aho basaruye imyumbati, bakareba uburyo basiba ibinogo kugira ngo bitazateza impanuka ku bana babo bikabaviramo imvune.

Abaturage bo mu Rwanda, bakora umwuga w'ubuhinzi. Bavuga ko gukorera hamwe, byongera umusaruro. Bigatuma babona amafaranga yo kurihirira abanyeshuri, bakiga bagatera imbere.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, iyo yegereye abakora umwuga wo guhinga, basobanura ko bateye imbere bitewe n'umwuga bakora bityo bashishikariza n'abandi kuwugiraho uruhare.

Abaturage bo mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mpanga, bari gukunda kugaragaza icyorezo cyateye imyaka yabo, aho bavuga ko umusaruro ugenda ugabanyuka, bityo amafaranga y'ishuri bakuraga mu buhinzi bakagenda bayabura abana bagasiba amashuri.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibwira abaturarwanda guca amatarasi mu mirima yabo kuko ngo bifata amazi bikagumishamo ifumbire mu butaka bigatuma umusaruro babona wiyongera.

Abayobozi bagiye batandukanye muri iki gihugu, uko bagenda begera abaturage babigisha gukorera hamwe, mu bijyanye n'ubuhinzi, abaturage bavuga ko bibongerera imbaraga, bikanabafasha kongera umusaruro wabo.

Abaturarwanda barashishikarizwa gukomeza guteza imbere ibijyanye no guhinga imbuto n'imboga, kugira ngo bazabashe kurandura icyorezo cyohetse Isi cya bwaki, bityo leta ikaba ibasaba gukomeza gushyiramo imbaraga.

Mu gihugu cyacu tugira umunsi umwe mu kwezi, aho abaturage baza bagateranira hamwe bagakora isuku, icyo bita umuganda, kugira ngo barebere hamwe uburyo basukura imihanda, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biba biri guteza umwanda.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irashishikariza abaturarwanda cyane cyane abakora umwuga w'ubuhinzi, kwita mu gukoresha ifumbire y'imborera kuko na yo ifasha mu kongera umusaruro mu buhinzi.

Guhinga kijyambere abahinzi bagaragaza ko ari byiza kuko bibongerera umusaruro, bigatuma babona n'amafaranga aturuka mu byo bahinga, bikabafasha kwiteza imbere.

Umwuga w'ubuhinzi ukomeje gutera imbere mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu, aho usanga abawukora bishimye kuko ubaha amafaranga bifashisha mu mirire no mu mibereho ya buri munsi. Bakaba bishimye.

Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, ishishikariza Abaturarwanda bose bakora umwuga wo guhinga, kubikora mu buryo bwa kijyambere, kuko ari byo bizatuma babona umusaruro uhagije mu byo bakora.

Leta y'u Rwanda iburira buri muturarwanda wese ko kubaka ahantu hahanamye ari ugushyira ubuzima bwe mu kaga, bityo rero ikababurira kugira ngo birinde ibyo bikorwa.

Uyu munsi muduce tugiye dutandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, abaturage bazindukiye mu muganda rusange, aho baba bari gufatanyiriza hamwe mu kubaka igihugu cyabo bakora amasuku kugira ngo bature ahantu hasa neza.

Mu bice bitandukanye by'Ibihugu by'u Rwanda cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba, bavuga ko igihe cy'ihinga iyo kigeze kubona imbuto bakoresha mu gutera bibagora. Bakaba basaba ubufasha butandukanye Leta yacu y'Igihugu cy'u Rwanda.

Abaturage bo mu Karere ka Ruhango, bagaragaza ko gukorera hamwe mu mwuga w'ubuhinzi, byongera umusaruro w'ibyo babona, bikabafasha kubona amafaranga menshi bifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Ahantu henshi hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, hagiye hubakwa ikusanyirizo ry'imyaka, aho abahinzi basarura imyaka yabo, bakajya guhunika ku makusanyirizo bari barubakiwe na leta bigatuma...

Minisiteri y'Ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko yagiye iteza imbere ubuhinzi, aho yegereye abaturage ikabigisha uburyo bahunika imyaka yabo ntizagire ikibazo nyuma yo gusarurwa.

Mu gihe cy'umwero ugenda usanga abaturage bakora umwuga wo guhinga bavuga ko biborohera, kuko hari ababafasha kubaha ibikoresho bakoresha mu kugosora imyaka yabo bakayibika bizeye ubuziranenge bwayo.

Mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Rulindo, hakunda kugaragara igihingwa cy'umuceri. Aho usanga buri muturage uhatuye, yishimira ibiva mu musaruro. Kandi bakavuga ko bazakomeza gukoresha ifumbire mvaruganda n'imborera, kugira ngo bakomeze batere imbere mu buhinzi.

Abahinzi bo mu Rwanda bari kugenda batera imbere, kuko bavuga ko guhinga hakoreshejwe ifumbire mvaruganda n'imborera, bibongerera umusaruro bigatuma batera imbere mu buhinzi.

Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi, yasuye abaturage bagiye batandukanye bakora umwuga wo guhinga inyanya, abasobanurira uburyo bakongera umusaruro wabo.

Abayobozi batandukanye bo muri za minisiteri, bagiye basura inganda zitunganya ibintu bigiye bitandukanye nk'amasima akoreshwa mu bwubatsi, bavuga ko bagiye guteza imbere iki cyiciro cy'inganda.

Ibinyabiziga bigiye bitandukanye byasanzwe i Rwamagana birimo bipakira umusaruro w'ibikomoka ku bitoki n'ibirayi, bakavuga ko ubungubu biri kuboneka ku isoko ry'u Rwanda kandi bakabibonera ku giciro kiri hasi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga abakecuru n'abasaza n'insoresore zikomeje kujya muri uyu mwuga kugira ngo zibone amafaranga azitunga, bakavuga ko ari byiza cyane.

Ku masoko agiye atandukanye y'igihugu, hakomeje kugaragara umusaruro w'ibigori cyane cyane mu ntara y'iburasirazuba, aho abahinzi bavuga ko umusaruro wabonetse kubera gukoresha ifumbire.

Leta y'u Rwanda irakomeza gushimira abahinzi b'imbuto, aho bikomeje kugaragara ko ku isoko byakomeje kwiyongera, harimo nk'inanasi, ibinyomoro n'inyanya. Leta ikabashimira uburyo bakomeje gutera imbere mu buhinzi.

Abahinzi b'u Rwanda bashima Leta yabashyiriyeho uburyo bazajya bafata neza imyaka yabo nyuma yo gusarura, aho yabashyiriyeho amahunikiro atandukanye hirya no hino mu gihugu.

Abaturage bakora umwuga wo guhinga inyanya mu karere ka Musanze, bavuga ko ubu ngubu umusaruro wazo wiyongeye kuko uko imyaka igenda iza ngo mu butaka hakunda kugaragaramo amazi, aturuka mu misozi y'ibirunga.

Mu ntara y'Iburasirazuba mu Karere ka Kirehe mu isoko rya Nyakarambi, hagaragaye uruza rw'abantu bafite umusaruro w'inyanya, aho bavuga ko iki gihembwe babonye bihagije umusaruro kandi bakomeje guteza imbere ubuhinzi bwazo.

Minisiteri ishinzwe iby'ubuhinzi mu Rwanda igaragaza ko ubuhinzi bw'ibishyimbo ahantu hagiye hatandukanye, busigaye bwarajemo ikibazo cy'uko hari udukoko dusigaye dutuma bipfa ubusa, bikagabanya umusaruro w'Abaturarwanda.

Leta ikomeje kugenda yibutsa abaturage bayo kudahendwa n'igihingwa cy'umuceri kuko bigaragara ko mu Ntara y'Iburasirazuba, cyatangiye kuboneka bagomba kujya bakigura ku mafaranga makeya badahenzwe.

Ibirombe bigiye bitandukanyekan mu gihugu cy'u Rwanda bitwikirwamo amakara bigaragaza ko umwuga wo gutwika usigaye ubaha amafaranga bigatuma batera imbere cyane.

Epiniyeri zigenda zigaragara, ahantu hatandukanye mu gihugu. Zitunganyirizwamo ibiti bitandukanye by'imbuto, kandi ababikora bavuga ko babona umusaruro. Kuko bibaha amafaranga ahagije.

Igihingwa cya veregariya gikunda kugaragara mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, aho abahinzi bavuga ko birwanya isuri bityo bigateza imbere ubuhinzi imisoro ikaboneka.

Mu bihe bigiye bitandukanye, ikigo gishinzwe guteza imbere ibijyanye n'ubuhinzi bwindabyo, cyagiye gishyira imbaraga mu gushakisha indabyo zigiye zitandukanye nziza zatuma isoko ry'indabyo ku rwego mpuzamahanga ryiyongera.

Mu gutura ahantu heza no kugira ubuzima bwiza, abaturage barashima igihugu cyacu ko gikomeje kubegereza imbuto ndetse n'ibindi bihingwa kugira ngo barebe uko batera imbere.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ikomeje gushishikariza abaturarwanda cyane cyane abakora ubuhinzi, guhinga igihingwa cy'igisheke kuko cyagaragaye ko kirimo umuti wakifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi, ikomeje kugaragaza ikibazo cy'indwara zituruka ku bihuru n'ibigunda bikikije ingo nyinshi zo mu mujyi wa Bujumbura, aho bashishikariza abaturage baho gukomeza kugira isuku batema ibyo bihuru.

Uko iminsi igenda iza Leta igenda ikangurira abaturage mu gushyira imbaraga mu kubungabunga ibidukikije kuko aribyo bizabarinda amapfa, bigatuma imvura igenda iboneka abakora umurimo w'ubuhinzi bakabona umusaruro uhagije.

Amashyamba mu gihugu cy'u Rwanda, mu gice cy'Amajyepfo hakunze kugaragara ibiti byinshi, bituma imvura ikunda kuboneka mu gihugu cyacu, mu Rwanda hano.

Abantu benshi batuye isi bavuga ko nta muntu wakagombye gusuzugura umwuga w'ubuhinzi kuko abawukora mu ntara zigiye zitandukanye bavuga ko ubabyarira umusaruro bakabona amafaranga.

Mama Kobi avuga ko ubuhinzi bw'amashyamba, bwatumye atera imbere, aho ubungubu kubona amafaranga y'abanyeshuri bimworohera. Kandi agashishikariza n'abandi baturarwanda mu gushyira imbaraga mu guhinga ibiti.

Indabyo nziza zigenda zigaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Aho abakora uyu mwuga wo guhinga indabyo. Bavuga ko bateye imbere mu buryo bwose bushoboka, kuko indabyo zitanga amafaranga menshi cyane.

Ubuhinzi ni umwuga ukomeje gutera imbere mu Rwanda, aho usanga igice kinini cy'urubyiruko cyagiye kijya muri uyu mwuga, kugira ngo kibashe kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu cyabo.

Abanyarwanda bose muri rusange bahagurukiye kurwanya igwingira mu bana, aho batera imboga zongera intungamubiri mu biryo by'abana barya, bigatuma bagira ubuzima bwiza kurushaho.

Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko abaturage batuye Igihugu cy'u Rwanda biganjemo urubyiruko, bishyize hamwe bagakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibigori gutyo bakiteza imbere.

Mu duce dutandukanye tw'u Rwanda, hagenda hagaragara ibihingwa birimo amoko menshi, n'ink'igihingwa cy'amateke gisigaye kigaragara cyane mu duce dutandukanye tw'u Rwanda.

Mu bice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda, hakunda kugaragara ibigunda aribyo binatuma kwiyongera kw'imibu itera malariya igenda byiyongera mu gihugu cyose muri rusange, bikangiriza abaturage.

Abaturage bo mu Rwanda bakora umurimo w'ubuhinzi, baragaragaza ibyishimo kuko bagisigaye babona umusaruro uhagije ukomoka ku guhinga intoryi.

Abahinzi bahinga inyanya bakomeje kwishima kuko Leta yabegereje imiti yica udukoko bakavuga ko bizatuma umusaruro w'iki gihingwa ukomeza kwiyongera uko imyaka izagenda iza.

Minisiteri y'Ubuzima ishishikariza abaturarwanda bose cyane cyane ababyeyi bafite abana, kubaha indyo yuzuye bakunda guhinga uturima tw'igikoni turiho dodo kugira ngo bazabashe kurwanya igwingira.

Abahinzi b'indabyo mu Rwanda barishima intambwe bamaze gutera yo kuba bageze ku rwego rwo gusohora indabyo hanze nko mu Bushinwa bakaba bazigurishayo, bavuga ko bibaha amafaranga ku rwego rushimishije.

Amaduka yo mu gihugu ataranguza imyaka, agenda acuruza utuntu tumwe na tumwe, harimo imbuto z'inyanya, karoti, intoryi, bakavuga ko bibaha amafaranga bakiteza imbere.

Minisiteri ishinzwe kujyana hanze ibijyanye n'indabyo, igaragaza ko abaturarwanda biyongereye mu guhinga indabyo. Bityo umusaruro wabyo ku ruhando mpuzamahanga ukaba wariyongeye.

Ikigo gishinzwe guteza imbere ubuvuzi gakondo kivuga ko hari ibihingwa bigiye bitandukanye bisangwa mu gihugu cy'u Rwanda, byifashishwa mu buvuzi aho bivura indwara zigiye zitandukanye.

Kuba heza ni byiza. Umuturarwanda wese ashishikarijwe kuba ahantu heza, atera jaridin ariyo izatuma urugo rwe rusa neza. Jaridin irimo indabyo ni nziza cyane kuko ituma iwawe hasa neza.

Ubuhinzi bwa avoka busigaye bwarateye imbere mu Rwanda, aho abahinzi bavuga ko byabongereye amafaranga bifashisha mu bucuruzi, mu kurihira abana amashuri. Bavuga ko bitanga umusaruro.

Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi nayo igaragaza ko itibagiwe abahinzi, aho ibegereza imbuto bazifashisha mu gihembwe cy'ihinga bagiye gutangira mu buryo buboroheye.

Uko iminsi igenda iza ni ko Leta y'u Rwanda igenda ishishikariza abatuye mu Ntara y'Umugi wa Kigali gukomeza kubaka ibikuta bizengurutse inzu zabo kugira ngo birinde ikibazo cy'ubujura.

Umuturarwanda utuye mu mujyi wa Kigali bita Elyse avuga ko ubucuruzi bujyanye n'imineke busigaye bufasha abaturarwanda mu kwiteza imbere. Aho kubona amafaranga y'ishuri ari ikintu kitakigoranye muri uru Rwanda.

Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko igihingwa cy'avoka cyagiye kigaragara mu duce dutandukanye tw'u Rwanda, aho abagihinga bavuga ko kibaha amafaranga koko cyera ku rwego rwo hejuru.

Karoti ni igihingwa kigiye gikunda kugaragara ko gikoreshwa mu buvuzi aho bashishikariza Abaturarwanda kurya karoti kuko yongera imbaraga n'ubudahangarwa.

Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko buri muturarwanda wese yagiye atera imbere mu bijyanye n'ubuhinzi, kuko yashyize imbaraga mu gukoresha ifumbire y'imvaruganda niy'imborera bigatuma umusaruro wiyongera.

Minisiteri ishinzwe gutumiza hanze imbuto, ivuga ko izakomeza kwegereza abahinzi bo mu byaro ibikoresho byose bazakenera mu buhinzi, kugira ngo bakomeze guteza imbere umwuga wabyo.

Minisiteri y'ubuzima igenda ishishikariza abaturage kurandura igwingira ry'abana, batera imboga zizifashishwa mu kurandura izo ndwara n'abaturage babyumvise neza basigaye babikora neza.

Amasoko atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ari kugaragaza ko umusaruro w'ibihingwa wagiye wiyongera ku buryo usanga wotameroni imwe igura amafaranga makumyabiri ugereranyije na mbere aho yaguraga ibihumbi bitanu.

Abahinzi bo mu turere tugiye dutandukanye tw'u Rwanda, bavuga ko bagiye kuzongera umusaruro w'igihingwa cy'ibitunguru ku isoko ry'u Rwanda, aho bazajya bakoresha imvaruganda n'imborera kugira ngo babone umusaruro.

Ku masoko atandukanye y'u Rwanda, hakomeje kugaragara imbuto z'inyanya, aho Leta ivuga ko umusaruro wazo muri iki gihembwe cy'ihinga wiyongeye ku bwinshi, ukaba isaba abaturarwanda gukomeza gushyira imbaraga mu guteza imbere ubuhinzi.

Uko ubuhinzi bugenda butera imbere mu Rwanda niko ubuhinzi bujyanye no guhinga urusenda bugenda bugira agaciro, mu by'ukuri kera ntabwo byari bimenyerewe ubuhinzi bw'urusenda, ariko uko igihugu cyagiye giteza imbere ibijyanye n'urusenda byagezeho abaturage bumva ko narwo rushobora gutanga umusaruro uhagije.

Ni ibyo kwishimirwa kuko Leta itigeze itererana abakora umwuga w'ubuhinzi bw'indabyo, bigaragara ko na bo bafite uruhare mu guteza imbere Igihugu bityo bakajya bakomeza gusaba gufashwa kugira ngo umwuga wabo na wo utere imbere.

Ubuhinzi bw'intoryi mu Rwanda bwakomeje gutera imbere, aho abaturarwanda bavuga ko bibongerera amafaranga ababeshaho kuko busigaye butanga umusaruro uhagije.

Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, yasuye ahantu hatandukanye mu gice cyo mu cyaro, aho bategura imyembe, bakayigeza ku isoko ryo hanze y'igihugu kandi ifite ubuziranenge.

Mu mujyi wa kigali hagenda hagaragara inyubako zigiye zitandukanye. Aho buri nyubako igiye ifite ubusitani bwiza cyane burimo indabyo nziza zaturutse muri Isiraheli kugira ngo zize zifashe.

Abacuruzi bacuruza imbuto za karoti na seleri n'ibitunguru na pavuro, bavuga ko kwiyongera kwazo ku isoko biri gutuma abakiriya baba bakeya bityo amafaranga bakuragamo agakomeza kugabanyuka.

Ubujura bukomeje gukwirakwira mu bice by'igihugu cy'u Burundi, aho abahinzi bavugako umusaruro wabo ugiye kuzashirira aho baba batazi bitewe no kwibwa.

Minisiteri y'ubuhinzi ivuga ko uko igihugu kigenda gitera imbere mu buhinzi, inyanya zisigaye zitanga umusaruro ku baturarwanda bakabona amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Indabyo zigiye zitandukanye nziza, mu gihugu cy'u Rwanda zikomeje kugaragara ahantu hose, ku buryo abakora ubuhinzi bw'indabyo bavuga ko zongera umusaruro bakabona amafaranga.

Uko igihugu kigenda gitera imbere, ni na ko Leta y'u Rwanda igenda ishyira imbaraga nyinshi mu kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi; kuko na byo bifasha abaturarwanda kubaho neza.

Urujya n'uruza rw'abantu babaye benshi mu masoko, aho usanga buri wese yazanye ku isoko igihingwa bita watermellon, bavuga ko ubu umusaruro wacyo ukomeje kwiyongera.

Igihingwa cya avoka kigenda gicika mu bigo bigiye bitandukanye by'igihugu, aho usanga ubungubu ku isoko byamaze guhenda. Leta igashishikariza Abanyarwanda kongera imbaraga ku kwita kuri iki gihingwa.

Abacuruzi batandukanye bo mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mpanga, bavuga ko kuba bacuruza utuntu duke na duke tw'imbuto bidatuma baburara, babona amafaranga ahagije bagateza n'imbere urugo rwabo.

Ubuhinzi bw'ikawa bukunda kugaragara cyane cyane mu gice cy'Iburasirazuba bw'u Rwanda, aho abahinzi bakora uyu mwuga, bavuga ko ari igihingwa gitanga amafaranga menshi.

Umusaruro w'imboga n'imbuto ukomeje kwiyongera ku isoko ry'u Rwanda, aho abakora uyu mwuga wo gutegura ibi biribwa, bavuga ko bitanga amafaranga kandi ahagije mu kubaho kwabo.

Abahinzi bakora ibyo gutunganya imyungu bakuramo inzuzi, bavuga ko iki gihingwa nacyo kibateza imbere bakabona amafaranga igihe bagihinze bakoresheje ifumbire mvaruganda.

Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda, ni ho hakunda kugaragara abaturage benshi bakora umwuga w'ubuhinzi bw'ibirayi. Bavuga ko bagiye kongera umusaruro wabyo ku isoko ry'u Rwanda.

Ibice bigiye bitandukanye by'igihugu hakunze kugaragara igihingwa cya kokombure, aho bivugwa ko gikundwa n'abagore bakiri batoya kuko ngo kibongerera amashereka, bityo rero bavuga ko bakongera umusaruro wacyo kugira ngo bakomeze kubafasha.

Igihingwa cy'ibinyomoro gikunze kugaragara ahantu henshi, abagihinga bavuga ko gifite intungamubiri ziri hejuru kuko umwana wakiriye atigera agaragaza ikibazo kigwingira mu buzima bwe kugeza akuze.

Amasoko yose yo mu gihugu cy'u Rwanda, hari kugaragara ko umusaruro w'inyanya wiyongeye, bityo abahinzi bakora uyu mwuga wo guhinga, bavuga ko babonye amafaranga bitewe no kwiyongera ku...

Abahinzi bahinga igihingwa cy'urusenda, bagaragaza ko na bo batacikanywe mu guteza imbere igihugu cyabo, kuko bavuga ko urusenda rubaha amafaranga ahagije, bigatuma batera imbere.

Minisiteri ishinzwe kureberera ibidukikije ivuga ko kubifata neza ari ingirakamaro. Kuko ari byo bituma hakunda kuboneka imvura, bigatuma abakora umwuga w'ubuhinzi babona umusaruro uhagije.

Mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, hagenda hagaragara ubucuruzi buciriritse, aho bukorwa n'abitwa abazunguzayi, bakavuga ko bibaha amafaranga ababeshaho nubwo leta ibirukaho.

Abaturage bagiye batandu mu Ntara y'Iburasirazuba, bagenda bajya gufata ibiti aho bitunganyirizwa muri pepeniyeri kugira ngo babashe kujya kurwanya isuri itwara imyaka yabo.

Abahinzi bakomeje kuvuga ko umusaruro w'ibinyomoro wagiye wiyongera, kuko ngo basigaye babona amafaranga ahagije akomotse muri iki kiribwa cyari cyarabuze mu minsi yashize.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere, aho buri muturarwanda wese yumva yazihinga kuko ngo ababikora babonamo amafaranga abatunga kandi bakarihirira n'abanyeshuri babo bakiga bakagera kure.

Kuhira imyaka ni muri bimwe bituma umusaruro ugenda wiyongera ku isoko ry'u Rwanda, aho abahinzi bakora uyu mwuga, bavuga ko amazi yongera umusaruro ku buryo bugaragara.

Uko ubuhinzi bugenda butera imbere muri uru Rwanda, ni nako abaturage bagenda bunguka ubumenyi bugiye butandukanye aho guhinga buhirira imyaka, bavuga ko bibongerera umusaruro, kuko amazi atuma imyaka yera vuba kandi igatanga umusaruro uhagije.

Kuhira imyaka bikomeje kugirwamo uruhare n'abantu benshi, aho bavuga ko iki gikorwa gituma umusaruro wiyongera. Bityo bakaba bashishikariza n'abatabikora gushyiramo imbaraga kugira ngo bagere ku byo bifuza.

Abaturage b'u Rwanda bakora umwuga w'ubuhinzi, bavuga ko ari wo ubatunze, kandi kugira ngo babone amafaranga ari uko buhira imyaka yabo kijyambere, bityo rero umusaruro ukiyongera.

Abahinzi bakora umwuga wo guhinga amashu, bavuga ko ari igikorwa bakora bishimye kuko babonamo amafaranga yo gutunga imiryango yabo kandi hakabonekamo n'ay'ishuri.

Aborozi bo mu karere ka Nyagatare na Kirehe, barashima leta y'u Rwanda yabungabunze amashyamba, kuko bavuga ko habonekamo ubwatsi, bityo ibiryo by'amatungo bikaboneka ku bwinshi.

Abahinzi bo mu Rwanda bavuga ko ku nkengero z'ibiyaga ubutaka batawupfusha ubusa, aho bahingaho izindi mbuto bityo bakabona amafaranga ahagije mu gutera imbere.

Mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko ari ho honyine hakunda kugaragara ibishanga, ari ho abahinzi babona umusaruro uhagije kurusha ahandi.

Leta y'u Rwanda, yagiye irebera hamwe, mu bice bitandukanye by'igihugu, abaturage batishoboye. Ibasha kububakira amazu meza. Kugira ngo badashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko guca amaterasi mu mirima bigabanya itwarwa ry'ubutaka bikongera n'umusaruro iyo amazi bayafashe.

Ubuhinzi mu bice by'Igihugu cy'u Rwanda bigiye bitandukanye, bwariyongeye aho ubu ngubu imyaka isigaye yera neza bitewe no gukoresha ifumbire mvaruganda.

Mu Karere ka Kirehe, Umurenge wa Mpanga, Akagari ka Nyakabungo, Umudugudu wa Gikushya, hagaragaye ubwanakiro butunganyirijweho ikawa y'u Rwanda, bavuga ko abahinzi bo muri utu tugari bakomeje gutera imbere mu guhinga ikawa.

Abakerarugendo bose basuraga Igihugu cy'Uburundi bari bazi ko ari igihugu cyiza kandi giteye imbere, aho bagiye basanga ibiraro byaho byose byarasenyutse bakabura aho banyura bagasubira inyuma.

Igihugu cy'u Rwanda mu gihe gikomeje kwizihiza iminsi mikuru irimo iy'ingo n'iy'abapapa, gikomeje gushishikariza abaturage bacyo kwitwararika, kugira ngo bagumane umutekano usesuye.

Ahantu hose hagaragara nk'ahahanamye mu gihugu cy'u Rwanda, leta yagiye ica amaterasi kugira ngo afate amazi atazangiriza imyaka y'abaturarwanda mu buhinzi kugira ngo bukomeze butere imbere.

Aborozi bo mu Karere ka Nyagatare na Kirehe na Gatsibo, bavuga ko ahantu inka zabo zinyura hajeho kwangirika bitewe n'amazi aturuka mu bishanga, bakaba basaba ubufasha kugira ngo harebwe icyakorwa.

Abanyarwanda bakora ibijyanye n'ubworozi, bagaragaza ko kworora ingurube ari ibintu bisigaye bibateza imbere, ku buryo basigaye babona n'amafaranga afashishwa mu kwishyurira abanyeshuri.

Minisiteri y'Ubworozi ishishikariza buri baturage bose korora kijyambere, cyane cyane yibanda ku borozi b'ingurube, kuko zagaragaye ko zitanga umusaruro ku rwego rwo hejuru muri iki gihe.

Leta mu guteza imbere abaturage bayo, irebera hamwe mu byaro abatishoboye, ikagenda iboroza ingurube, ikabategeka yuko nibwagura bazagenda baha bagenzi babo, kugira ngo bose biteze imbere.

Minisiteri ishinzwe Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko kororera amatungo magufi mu ngo bitera umwanda, kandi bigatuma n'aho bororeye bagira ibibazo by'uburwayi.

Minisiteri ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ikangurira buri muturarwanda wese korora amatungo magufi, kuko byagaragaye ko atanga ifumbire kandi agatanga n'amafaranga yifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Mu byaro by'igihugu cy'u Rwanda, twagiye dusanga ahantu hatandukanye barateye imbere mu bworozi bwo kororera mu kiraro, aho ababikora bavuga ko ari byo bitanga umusaruro mwinshi, kurusha kororera ahantu hatandukanye.

Abakora umwuga w'ubworozi mu Karere ka Kirehe, bavuga ko byabahaye amafaranga menshi kuko borora kinyamwuga kandi kijyambere, ifumbire ikaba iboneka ndetse n'amata akayabona.

Muntara z'igihugu zigiye zitandukanye mu Rwanda, hakunda kugaragara ubworozi bujyanye n'amatungo bwa kijyambere, abaturage bavuga ko ubworozi bwongera umusaruro.

Abaturage batandukanye bo mu bice by'u Rwanda, bavuga ko korora ihene atari ikintu giciriritse kuko ababikora babonamo amafaranga, abanyeshuri bakabasha kwiga neza kandi no mu rugo bagakomeza kubona ibibatunga.

Abaturarwanda bakora umushinga wo korora inkoko, bavuga ko minisiteri y'ubworozi itabatereranye, ibagezaho ibiryo byazo ku gihe, bityo umusaruro zitanga ukiyongera.

Abaturarwanda bakomeje kugaragaza ikibazo cyo kubura cy'amagi y'inkoko z'inyarwanda, bakavuga ko iza kizungu zitera amagi ataryoshye, bakaba basaba Leta kubikurikirana, irebera hamwe uburyo yakomeza guteza imbere inyarwanda.

Ubworozi bw'amatungo magufi, bukomeje gutera imbere mu Ntara y'Iburasirazuba mu Karere ka kirehe, umudugudu wa Nyakabungo, aho usanga buri muturage wese yaritabiriye korora, bavuga ko bibaha amafaranga.

Abaturage batuye mu karere ka Burera mu Majyaruguru y'u Rwanda, bashima leta kuko yabatekerejeho ikaboroza amatungo magufi nk'ihene, aho bavuga ko ubu ngubu batangiye kurya ku musaruro bakuye muri ubu bworozi.

Ubworozi bw'amatungo mu Rwanda harimo ay'ihene, bukomeje kugenda butanga umusaruro ku baturarwanda, kuko bibaha amafaranga menshi abafasha mu guteza imbere imirire.

Abaturage bo mu Rwanda batishoboye, bagaragaza ko Leta y'u Rwanda kuba ibitaho ikabafasha kuba babona itungo na bo ryo korora bagakomeza kwiteza imbere, ari ibintu byiza cyane bashima.

Ubworozi bw'amatungo magufi mu Gihugu cy'u Rwanda mu Karere ka Gisagara, bukomeje gutera imbere aho korora ingurube abaturage bavuga ko bibaha amafaranga, bityo bagatera imbere kandi ku rwego rushimishije.

Abaturage batuye mu Karere ka Nyabihu, bavuga ko bagorwaga no kubona amafaranga y'ishuri, ariko aho bagiye mu bworozi bw'ingurube, bavuga ko iki kibazo cyakemutse. Bakaba bashima leta y'u Rwanda ikomeza kubatekerezaho.

Mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi Leta isaba buri muturarwanda wese, korora amatungo magufi kugira ngo azabashe kwiteza imbere.

Uko igihugu kigenda gitera imbere, ni nako Abaturarwanda bagenda biga uburyo bakongera ibikomoka ku matungo nk'amata bakoresheje uburyo bwo kororera mu biraro. Bikabafasha kubona umusaruro uhagije.

Mu gihugu cy'u Rwanda abaturage batuye mu bice by'icyaro, bagenda bagaragaza uburyo ki ubuhinzi n'ubworozi bwagiye butera imbere, aho korora ubu ngubu ihene bisigaye bitanga amafaranga ku baturarwanda, no guhinga kinyamwuga.

Aborozi b'amatungo bororera mu biraro mu Rwanda, bavuga ko umusaruro ugenda wiyongera kuko borora kijyambere, bigatuma n'amafaranga aboneka, kurihirira abanyeshuri bikoroha.

Leta y'u Rwanda igenda irebera abaturage bakennye mu bice by'icyaro, ikabateza imbere binyuze mu kubaha amatungo magufi n'amaremare, kuko bibafasha kurinda igwingira ry'abana.

Leta y'u Rwanda mu guteza imbere abaturage bayo, igenda ijya muri buri ntara aho irebera hamwe abaturage batishoboye ikabafashisha amatungo kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, aho buri muturage wese utuye mu gace ko mu cyaro avuga ko korora amatungo magufi nabyo bitanga amafaranga kandi bikongera umusaruro w'ifumbire.

Abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi, bavuga ko ubworozi bw'amatungo magufi n'amaremare bwabakuye mu bukene, aho babona ibiva ku matungo nk'amata, bakagurisha bakabona amafaranga barihiriramo abana babo ku mashuri.

Abanyarwanda bakora ubworozi bw'ingurube, bavuga ko badatewe ipfunwe nabyo, kuko bibaha amafaranga menshi bagakuraho abatunga n'ayo kurihirira abana ku mashuri.

Abaturarwanda benshi bo mu bice by'icyaro, ubworozi bw'amatungo magufi ihene, ingurube, n'inkwavu byagaragaye ko babishyizemo imbaraga kugira ngo byongere umusaruro w'ibyo bakora.

Aborozi bavuga ko kuba baratangiye kubona ingurube za kizungu, byatumye umusaruro bakuraga muri ubu bworozi wiyongera aho bagaragaza ko bitandukanye na kera bacyorora inyarwanda.

Buri muturage wese wo mu karere ka Nyabihu, yagaragaje ko yoroye imwe mu ihene zimuha amafaranga y'abanyeshuri, agashishikariza n'abandi batuye mu tundi turere, gukomeza guteza imbere ubworozi bw'ihene.

Ubworozi bw'amatungo magufi, na bwo Leta ntiyatereranye ababukora, aho yabonaga ko bibyara umusaruro kandi bikabaha amafaranga atuma bibeshaho mu buzima bwa buri munsi.

Abaturage bakora iby'ubworozi bw'inkoko, bavuga ko zidatanga inyama gusa, ahubwo zitanga n'umusaruro w'amagi ndetse n'ifumbire, ibyo byose bigatuma amafaranga bakura mu bworozi yiyongera.

Ubworozi bugiye butandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda bukomeje gutera imbere, aho abaturarwanda bakomeje mu kongera imbaraga mu korora ingurube bavuga ko nazo zibafasha gutanga umusaruro.

Abaturage bo mu Rwanda bagize umwuga ibijyanye no korora inkoko, barashima Leta y'u Rwanda kuko yabatekerejeho bakabegereza ibiribwa by'inkoko kugira ngo nabo bakomeze biteze imbere mu mwuga wabo.

Abaturage bo mu Majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda mu Karere ka Huye, bavuga ko kororera mu biraro byongera umukamo ku isoko ry'igihugu bakabona amafaranga ahagije mu guteza imbere igihugu cyacu.

Abahinzi n'aborozi mu Rwanda, bavuga ko kororera mu kiraro byongera umusaruro w'ibikomoka ku bworozi, bityo rero bagashishikariza Abaturarwanda bose kororera mu biraro.

Aborozi borora amatungo magufi nK'ihene, bavuga ko basigaye babona ubuvuzi bwazo hafi kuko Minisiteri y'Uburezi yashyizeho porogaramu mu mashuri yo kwiga iby'ubuvuzi bw'amatungo.

Ikigo gishinzwe guteza imbere ubuzima bw'abana, gishishikariza abaturarwanda kwirinda guha abana bari munsi y'umwaka ubuki, kuko byagaragajwe ko bagira ikibazo cyo kurwara mu nda.

Uyu munsi mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka Kirehe hagaragaye ubwiyongere bw'abaturage baje mu isoko guhaha igihingwa cy'amashu, aho bavuga ko ubu cyatangiye kuboneka bakaba batari guhendwa.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bumwe mu butanga amafaranga ku baturage bakora uwo mwuga mu ntara y'iburasirazuba, mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Manga, Akagari ka Nyakabungo, aho bavuga ko babona amafaranga aturutse mu buhinzi bw'ibirayi menshi cyane.

Abakozi benshi begereye ibishanga bavuga ko amazi yaho abafasha gutegura imbuto zigiye zitandukanye, bagakora pipiniyeri yo gukoreshamo ibiti bito na bito.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri minisiteri y'ubworozi n'ubuhinzi, ivuga ko igiye kugenda ikwirakwizwa muri buri ntara y'igihugu igihingwa cy'ibijumba, kugira ngo kiboneke na cyo ku isoko ry'u Rwanda.

Uko ubuhinzi bugenda butera imbere, minisiteri igenda ishishikariza abahinzi, gukoresha ubutaka buke kandi umusaruro ukagenda uba mwishi mu byo bakora.

Minisiteri y'Ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko abatunganya igihingwa k'imyumbati bakomeje kwiyongera bakagera ku kigero gishimishije, bigasobanura ko izakomeza kubafasha mu kubona inyongeramusaruro.

Abahinzi bahinga ku Nkombo, bavuga ko umusaruro babona utandukanye n'uw'ahandi kuko baba bafite amazi ahagije, bigatuma umusaruro wiyongera, bakaba basaba Leta y'u Rwanda gukomeza gukwirakwiza amazi kugira ngo abahinzi bakomeze gutera imbere.

Ubuhinzi bw'icyayi mu bice by'amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, bukomeje gutera imbere kandi n'umwimerere w'icyayi bahinga ukomeje kuba intagereranywa ku ruhando mpuzamahanga.

Ibihuru n'ibigunda muri uru Rwanda biri mu bintu biteje ikibazo kuko bigenda bituma indwara zigenda ziyongera bitewe n'ibyo bihuru, Leta y'u Rwanda igashishikariza abaturage kuba heza batema ibyatsi bituma indwara zikomeza gukwirakwira.

Abaturage batuye mu mujyi wa Kigali bavuga ko kuba hari ubuhinzi bukorerwa mu ntara z'igihugu bituma babona ibiribwa, bityo ntibibavune kuko ho bidashoboka guhinga.

Ibihingwa by'indabyo biri muri bimwe bikomeje gutuma Umujyi wa Kigali n'Intara y'Iburasirazuba akomeza gusa neza, leta igakomeza gushishikariza abantu bose gutera indabyo kugira ngo bature ahantu hameze neza.

Ubuvuzi bw'amatungo uko bugenda butera imbere, ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti, kigenda cyongera imbaraga mu bijyanye no kuvura amatungo, kugira ngo atazatera indwara abaturarwanda.

Abanyeshuri biga iby'ubuvuzi bw'amatungo mu mashuri yisumbuye, bagaragaza ko ubumenyi bakura mu kwiga butuma bafasha abaturarwanda mu kuvura amatungo yabo ntahure n'ikibazo.

Minisiteri ishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, ishishikariza Abaturarwanda mu kororera amatungo yabo mu biraro kuko ari byo bibafasha kongera umusaruro.

Aborozi bagiye batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko, umusaruro w'ibikomoka ku matungo wagiye wiyongera, bitewe nuuko basigaye borora kijyambere, borororeye mu biraro, bityo umusaruro ukiyongera

Abanyeshuri biga iby'ubuvuzi bw'amatungo, baramara impungenge aborozi bororera mu biraro ndetse no mu bafamu, babizeza ko bazabagezaho ubuvuzi bwizewe kandi n'amatungo yabo azakomeza kugira ubuzima bwiza.

Abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga, bavuga ko ubumenyi bahakura babukoresha mu gufasha abaturarwanda, aho baba bavura amatungo yabo banabubakira ibindi bikorwa remezo.

Mu guteza imbere igihugu cyacu Leta y'u Rwanda yagiye yongera imbaraga mu bijyanye n'ubuvuzi, aho itegura laboratwari, igashyiramo ibikoresho bihagije kugira ngo zibashe gukora neza, bigafasha kongera umusaruro wazo mu kurinda abaturage bacu.

Abaturarwanda bashima Leta y'u Rwanda yateje imbere uburezi, aho bavuga ko inka zabo zabyaraga kera zigapfa, ubu ngubu abanyeshuri bize iby'ubuganga babafasha mu kuzibyaza bigatuma zibyara neza.

Uko umusaruro w'ibituruka ku matungo ugenda ubura ku isoko ry'u Rwanda, mu Karere ka Nyagatare ho bavuga ko uboneka cyane bitewe n'uko borora mu buryo bwa kijyambere. Bakaba bashishikariza n'abandi gukoresha ubu buryo.

Abanyeshuri bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bavuga ko ubumenyi bakura aho bize, baza bakabukoresha mu cyaro, bigatuma bafasha abaturage boroye inka, kubona ubuvuzi bw'amatungo yabo.

Muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, uko imyaka igenda inyubako zigiye zitandukanye zigenda zigaragara nk'izishaje, ku buryo harebwa icyakorwa kugira ngo bazivugurure zongere zigire ubuziranenge bigafasha abaturage kubaho neza.

Ibihugu byo hanze bikomeje gushima u Rwanda, bivuga ko cyateje imbere ubukerarugendo, bigiye kuzatuma ubukungu bwacyo bukomeza kwiyongera, bityo n'abaturage bakagira ubuzima bwiza.

Muri Parike y'Ibirunga, Gishwati, Akagera mu gihugu cy'u Rwanda, mu burere bugiye butandukanye, hakunda kugaragara utunyamaswa twiza dukunda gukurura ba mukerarugendo, bityo bakabona amadovize igihugu kigatera imbere.

Abahinzi bo mu karere ka Kirehe begereye Akagera ndetse n'abegereye parike y'ibirunga; bavuga ko utunyamaswa bita udukende tuza tukabonera bityo tugatuma umusaruro babonaga mu buhinzi ugabanyuka.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari parike zigiye zitandukanye zirenga eshanu, pariki y'akagera, y'ibirunga, muri pariki hagenda hagaragaramo inyamaswa nziza cyane zigiye zitandukanye nk'udushyumbashyamba.

Abashinzwe kubungabunga inyamaswa, bakomeje gushyira imbaraga mu kurinda amatungo dusanga muri pariki y'Ibirunga n'Akagera, mu ntara z'igihugu zigiye zitandukanye kuko ngo zongera amadovize.

Muri pariki y'Akagera mu gihugu cy'u Rwanda, hakunda kugaragara inyamaswa bita inzovu, zikunda gukurura ba mukerarugendo cyane kandi bikongera n'amadovize mu gihugu abaturage bagatera imbere.

Mu gihugu cyacu hagaragara parike zigiye zitandukanye zirimo inyamaswa zitandukanye. Muri pariki y'Akagera niho honyine hagaragara inyamaswa zitwa inkende ku buryo umukerarugendo ushaka gusura yahagera akareba ibyiza bitatse igihugu cyacu.

Umutubu ni agasimba gato gatuye mu mazi, aho gafitiye akamaro igihugu cyacu, aho usanga ari nk'ibiryo by'andi matungo na byo biba mu mazi.

Ubu ntabwo bikiri ikibazo mu bice bitandukanye, aho abakerarugendo basuraga mu Rwanda bakavuga ko nta nyamaswa zihari, ubu mu bigaragara ahantu hose hari utunyamaswa twiza twitwa inyoni, bavuga ko bahasanze bagarutse mu Rwanda gusura amaparike.

Ubuhinzi bw'indabyo uko bugenda butera imbere, u Rwanda rukomeza gushyiramo imbaraga kuko byongera umusaruro mu gihugu, bikanatuma abaturage bakomeza gutera imbere mu bijyanye.

Udusimba bita inkima, dukunda kugaragara muri pariki zigiye zitandukanye, zo mu gihugu cy'u Rwanda, nko mu Ntara y'Iburasirazuba muri Pariki y'Akagera ni ho zikunda kugaragara. Abazisura bavuga ko ari inyamaswa nziza cyane, baba bishimiye gusura.

Parike z'Ibirunga n'iy'Akagera hakunda kugaragaramo inyamaswa nziza zikurura bamukerarugendo, bityo Igihugu kikaba gishishikariza abaturiye izi parike kuzibungabunga kuko babonamo amafaranga.

Agasumbashyamba ni inyamaswa ikunda kugarukwaho n'abakerarugendo bakunda gusura pariki y'Akagera mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, aho bavuga ko ari inyamaswa nziza iteye amabengeza.

Mu mashyamba yo mu Rwanda hari udusimba dutangaje ku buryo utubonye wese avuga ese utu twavuye hehe, bityo rero ni byiza kubungabunga utwo dusimba kuko bizateza imbere igihugu ku bakerarugendo.

Utunyamaswa dutoya tugenda tugaragara muri parike z'Ibirunga n'iy'Akagera, aho ba mukerarugendo bakomeje kwishimira kuza gusura izi parike, bavuga ko zirimo ibintu byiza nyaburanga.